inzu irimo amakarito iteye ingwa y'umweru. irimo amakarito, ay'icyatsi n'umweru, ay'umutuku n'umukara, ashushanyijeho inka ebyiri n'imwe ifunguye irimo kugaragaza imiti.

Imbuto zitandukanye ndetse n'imboga, iseri rimwe ry'imineke, inyanya, ibitunguru, pome, amaronji, kokombure, imyungu, karoti, imitini.

Igiti kiza cya avoka cya kijyambere, gifite amababi menshi, amashami, avoka z'imiteja zitarera, biteye ahantu mu murima.

Ahantu mu gishanga hari ibihingwa, hari imashini ifite amapine yifashishwa mu kuvomerera, hari amazu, hari imisozi.

Imisozi myinshi iteye neza imisozi iriho ibiti by'ishyamba iteyeho amaterasi y'indinganire hariho amoko menshi cyane y'ibiti hariho n'amazu matoya.

Ikiraro cy'inka kirimo inkaini eshatu, cyubatswe n ibyuma, imbere naho n ibyuma , hari abantu bari kureba inka, harimo umumama wambaye imyenda y'umweru, hari n' ukuboko kw'undi muntu.

Ikiraro kiza kigezweho gikozwe mu byuma, imbere gifite ibyuma by'umukara, harimo akanya keza k'umutavu gafite ibara ry'ibiho igikuta kimwe gisa icyatsi.

Inyamaswa yapfuye iryamye, hejuru hari umuntu wambaye ga uri kuyipima uburebure, afite metero n'icyuma, hari amaraso menshi, hari inyama zo mu nda, hari amabyi y'inyamaswa.

Imbere mu ibagiro hari amaraso kuri sima, hari abantu bane harimo umwe uri kubaga, hari inyama z'inka iri hasi bari kuba, hari igikuta cy'amakaro.

Ndabona ahantu mu kibaya bororera inka, hari aba veterineri batatu, hari inka z'amahembe maremare, hari ibiti, haribyatsi, hari imisozi...